Inzu ifite urugi rw'umukara yanditseho pifo yigiramo abanyeshuri bo mumwaka wa kane pirimeri, iriho icyapa cy'ifi n'ururabo, iteye irangi ry'umweru.

Igitabo bigishirizamo abana batoya cyerekana ko imbeba ziri kuganira zisanzuye zahuje urugwiro, harimo izabaye abatware harimo izabaye abo mu gikoni...

Ikigo cya nasari kiriho utwana dutoya turi gukina n'utundi turi kuza ku ishuri, imbere yatwo hashinze ipoto y'umuriro w'amashanyarazi ririho insinga eshatu zigana mu byerekezo bitandukanye.

Icyapa kigaragaza abanyeshuri ba pirimeri harimo abahungu bambaye imyenda ya kake n'abakobwa bambaye kotoni bahagazwe imbere n'abarimu babiri b'igitsina gore bari kubaganiriza.

Ishuri ry'abana bato rishushanyijeho ibyo kurya bitandukanye harimo inkoko, inyama, imyumbati babereka uburyo biba bimeze bikiri bibisi bitaragera ku isahani.

Ishuri ry'incuke ririmo abanyeshuri bane bafite ibikombe by'amata bari kunywa amata. Inyuma yabo hari umwarimu wabo ari gufungura amadirishya, yambaye agapfukamunwa ari kwinjizamo akayaga.

Umwarimu wigisha mu ishuri ry'incuke afashe igishushanyo gishushanyijeho umuntu, kiriho n'utuziga tw'ibyo yagiye avuga, ari kwereka abana, akabasomera ibyo uyu umuntu uri ku igishushanyo yavuze.

Imodoka y' igikinisho y'abana bicaramo bagatwara, ikunda gukinishwa n'abana bari munsi y'imyaka cumi n'itanu, hishyurwa ibihumbi bitanu kuyijyamo.

Inzu irimo imitako irimo ibipupe bibiri ikinini n'igitoya byo kureresha abana bifite ishusho y'umuhondo n'umweru mu birenge ndetse n'utwiso tw'umukara n'amazuru y'umukara.

Ishuri ry'bana bato rimanitsemo amashusho abereka ibiribwa bakabyiga harimo inkoko ishushanyije ibaze, harimo igiti cy'imyumbati gifite n'imyumbati, harimo inyama n'imyembe n'ibinyomoro.

Ishuri rya segonderi ryubatse mu buryo bwa etaje, rifite kandagira ukarabe imbere yaryo, haciho n'umuhanda impande y'ishuri, hanze hicaye umuntu.

Abana babiri barimo umukobwa mukuru wambaye inifomu y'umukara n'ubururu ndetse n'agahungu gatoya bahagaze inyuma y'urugi bategereje ko babafungurira.

Ibishushanyo bikoreshwa mu kwigisha abanyeshuri ba primeri na segonderi harimo uruziga rumwe, hari ibikoze inziga ebyiri zifatanye n'ibitandukanye.

Igishushanyo cyanditseho umuganura, imbere yacyo hari mudamu, icyo gishushanyo kiriho icunga rifite amaso n'umunwa n'amenyo, rikabaho n'urunyanya na rwo rufite amaso.

Ibikapu bitatu biririmo ubwoko butandukanye, harimo icyo mu mugongo, harimo icyo mu ntoki n'ikindi kimeze nk'isakoshi, abanyeshuri bashobora kwifashisha batwaramo ibikoresho byabo byo ku ishuri.

Ishuri rya nasari ririho ibishusho ku meza n'ibipupe abana bakoresha, ku ruhande hari aka etajeri karimo udukoresho twabo, nk'amakayi n'amakaramu n'amagoma bakoresha.

Ibikoresho bitetse ku meza byifashishwa mu gushushanya birimo amakereyo, amagoma, amalate, tankereyo n'umukasi.

Ikigo cy'amashuri cya pirimeri gifite amadirishya y'ubururu, gifite ikigega imbere y'umuryango, hanze amaravabo zifite amarobine menshi bakarabiramo, imbere yacyo hanyuze umuhanda w'igitaka.

Ibikoresho by'ubwubatsi biteretse hejuru ya mashini ziganjemo: inyundo, urukezo toronovise, umwiko na metero y'abafundi ni n'ivo.

Ishuri ryicayemo abanyeshuri, bicaye bateganye ku murongo umwe, imbere yabo hahagaze umwarimu uri kubahereza ibizami ngo bakore.

Umudugudu w'icyerekezo n'amazu meza harimo n'ikigo cy'amashuri harimo umuhanda hagati ndetse n'irimbi ku ruhande, n'ikirere gisa neza.

Ishuri rya pirimeri rifite amabara y'ubururu n'umweru, rifite esikariye zigana mu muryango, riparitse moto imbere, hari n'akagega gatoya kajyamo amazi.

Abayobozi b'ishuri rikuru rya segonderi bari guha impano umunyeshuri witwaye neza watsinze amasomo yose, bafite na mikoro bagiye kumubaza uko abyumva, uko yishimiye uyu munsi, ari kumwe n'umurezi wamwigishije.

Ishuri rya Segonderi ririmo idarapo ryubakiyemo hagati, rihagazeho abarimu hanze, rifite icyapa impande yaryo, gishushanyijeho abanyeshuri babiri n'indangagaciro zibaranga.

Ishuri ryisumbuye rya segondaire rihagazeho abantu batatu imbere yaryo, harimo abadamu babiri n'umugabo umwe, bari kuganira ku myigishirize n'imyigire y'abanyeshuri uko iteye.

Ishuri rya segondere rifite ikigega cy'amazi, ku ruhande imbere yaryo hari ibyatsi, hari n'ibiti, hafi y'umuryango hari abagabo babiri bigisha muri iri shuri bari kuganira.

Ishuri rya segomderi ryubatse mu buryo rikoze uruziga, hagati yaryo hari jaride nshyashya bari gukora inyuzemo utuyira turimo amabuye y'umweru, hagati hashinzwe n'ibendera ry'u Rwanda.

Ishuri rya segondeire rihagazemo abantu benshi barimo abambaye ingofero zirinda imitwe abantu bose bambaye amajire atandukanye harimo abambaye yicyatsi nay'ubururu bamwe bari kwerekera imbere abandi kuruhande abandi barahagaze.

Ishuri rya secondaire risakaje amabati y'ubururu, ryubakishije amatafari, rikikijwe na giriyaje zisize ibara ry'umutuku. Imbere yaryo hari izindi nyubako bari kubaka.

Abanyeshuri ba segonderi basohoye intebe bazitera hanze, bicaye hanze imbere ya ba mugenzi wabo ufite mikoro bari kubaganiriza, ndetse ku mpande hari n'abandi bambaye imyenda bitandukanye baturutse ku kindi gihe.

Abanyeshuri biga muri kaminuza, bari mu ishuri rinini ririmo abanyeshuri benshi cyane, umwarimu ari imbere ari kubigisha, bamwe bari kumureba imbere abandi bararangaye.

Abanyeshuri ba kaminuza bagaraduwetinze bari gufata ifoto bishimiye ko basoje mu mashuri harimo abasore n'inkumi.

Ubugeni bukora utuntu tw'udukoresho two mu rugo, akantu gakoze nk'inkongoro ushobora ku kanyweramo amazi, ushobora kugakoresha nk'umutako wo mu nzu.

Abanyeshuri ba kaminuza bicaye mu ishuri, barimo abasore n'inkumi, bose bicaye bakurikiye umwarimu imbere, bicaye mu ishuri ritoya ari benshi cyane.

Abanyeshuri biga ibijyanye n'ubuzima bw'amatungo, hano bari kwiga anatomi bari kubereka ibice bigize igihanga ariko kiri sikeletoni kidafite inyama.

Abanyeshuri ba kaminuza bari mu ishuri umuryango ufunguye, nta rumuri rurimo. Bamwe bari gusoma ibitabo abandi bari kureba muri telefoni, hari amarido meza, parafo nziza...

Inyubako imbere yayo hateretse kandagira ukarabe z'ubururu, impande yazo hari agatebe bicaramo, ku ruhande hari inzu ya sekirite.

Akabosi gakozwe mu ibumba umuntushaka kwifashisha abikamo nk'amakaye, amakaramu, ushobora kubikamo ibyo kurya bari mu rugo nk'ibitunguru, inyanya cyangwa se n'inoryi.

Ishuri rya kaminuza ririmo ameza arambitseho ikayi imbere, hari ibibaho bibiri byandikishije marikeri bigiraho biriho imibare n'icyongereza ku ruhande.

Ishuri rya kaminuza ya Nyagatare risize irangi ry'umweru, rifiteho esikariye zijya mu ishuri ryo hejuru, hanze hari jaride ikikijwe n'indabo, inyuma yazo hari ibiti birebire ariko bitari ishyamba.

Abanyeshuri ba kaminuza bicaye mu ishuri buri wese afite komputa imbere ye, inyuma yabo hahagaze umwe uri kubereka ibyo bakora.

Abanyeshuri bakoze garaduwesheni, bahagaze imbere y'itente bose bazamuye ingofero, hari n'abari kubyina bishimiye intsinzi, hari n'abandi barangaye imbere, bari kureba umuyobozi wabo, bose barishimye.

Abanyeshuri ba kaminuza bari kwigira kuri koputa, bose bambaye imipira isa y'icyatsi k'ijimye, abayobozi babo bambaye imipira y'imyeru, buri wese afite amazi mbere ye ari kunywa.